Isoko ririmo ibicuruzwa by'inkweto ndetse n'imyenda ku ruhande rumwe hari umwana w'umuhungu uhagaze iruhande rw'ahacururizwa inkweto, mu gihe ku rundi ruhande hahagaze umwana w'umukobwa ari ahacururizwa imyenda.

Umugabo ukora muri banki ari kwegeranya amafaranga kugira ngo ayanyuze mu cyuma barebe uko amafaranga agomba kugenda igihe ari kubarwa binyuze mu cyuma kuko icyuma kitajya kibeshya.

Umusore ufite akamwenyu ari kumwenyura neza cyane, ahagaze iruhande rw'umuryango w'inyubako yanditsweho luku, bigaragaza neza yuko ashobora kuba arimo yakira abakiriya.

Inzu yubatse mu bwoko bwa mazi amwe ikinguye mo imbere harimo umusore wicaye, yambaye ipantaro isa n'ubururu n'inkweto z'umweru n'agapira k'umukara, iruhande kuri iyo nzu hegetse ibintu bitandukanye ndetse n'ururabo.